Icyapa kinini cyamamaza handitseho amagambo atandukanye yandikishije ibara ry'umukara n'umutuku, iruhande rwayo hashushanyijeho imbwa.

Ikinyamakuru gishishikariza abantu ku ruhuka kiri mu ibara ry'icyatsi. Hashushanyijeho umukobwa wambaye isengeri n'ipantaro y'umukara uri kwitekerezaho.

Icyapa cyanditseho amagambo atandukanye, ikiri hejuru kiri mu ishusho y'uruziga, ikiri munsi yacyo kiri mu ishusho y'ubukiramende, kiri mu ibara ry'umukara n'ubururu, amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umweru, inyuma y'icyapa hari inyubako y'amagorofa.

Inyandiko ikorwa kugira ngo hamenye ibyakozwe mu bucuruzi harimo ibyinjiye n'ibyasohotse ndetse n'ibiribwa bisigaye mu bubiko ikanagaragaza igihe byakorewe.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bitandukanye harimo imyenda, ingofero n'ibindi bintu bitandukanye. Mo hagati hahagaze umugore ufite umwenda ugurishwa mu ntoki.

Imyenda imanitse ku rukuta itondetse neza harimo; imipira, amakanzu, ingofero, hari n'ibindi bikoresho biri hasi.

Inzu y'ubucuruzi bw'imyenda isize irangi ry'umweru, kuruhande rw'ibumoso hari imyenda imanitse kumurongo, amashati, n'amakanzu kuruhande rw'iburyo hari ibindi bikoresho.

Iduka ry'imyenda : amakanzu ndetse n'imipira itondetse neza. Iruhande rwabyo hari imitaka ikozwe mu gitenge, ndetse n'indi izinze ikozwe mu gitenge.

Inzu y'ubucuruzi icuruza inkweto z'abakinnyi b'umupira ziri mu bwoko butandukanye, hari iziri ku rukuta zimanitse neza ku murongo zifite amabara atandukanye.

Inzu y'ubucuruzi bw'imyenda imyenda izinze neza iri mu tubati, imyenda iri ku nkuta imanitse neza hakubiyemo amakanzu, imipira y'amaboko magufi, n'amaboko maremare.

Inzu y'ubucuruzi imanitsemo imyenda yo gucuruza. Harimo imipira ndetse n'imyenda y'abana. Iri mu mabara atandukanye, harimo; umweru, icyatsi, umutuku, umukara, ndetse n'andi mabara.

Ibinyabiziga bibiri biparitse imbere yabyo hahagaze abagabo babiri bafite icyapa gifite ishusho imwe y'urufunguzo, cyanditseho abeje Akagera motozi. kuruhande rwo hirya haparitse imodoka n'igikamyo kuhande rwabyo hari ishyamba.

Abagabo n'abagore bari mu nama, bateze amatwi umugore uri imbere uri kuvuga ijambo, ufite igikoresho cy'indangururamajwi mu ntoki ze, inyuma ye handitseho amagambo avuga ingingo nyamukuru y'inama, ndetse ashushanyijeho amashusho y'idabopo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ahantu hagurwa imodoka nini zitwara imizigo ku ruhande rw'izo modoka hari ameza y'ikirahure ateretseho icupa ry'amazi.

Ikigo gikora ibijyanye no kugurisha imodoka kuzisiga amarange cyangwa kuzisana, ku marembo y'icyo kigo hari ubusitani bwiza ndetse n'icyapa cyerekana ibikorwa muri icyo kigo.

Ikigo gikora ibijyanye n'ibinyabiziga, inyuma yaco hari icyapa cyanditseho ibyo icyo kigo gikora harimo kugurisha ibinyabiziga, kubisiga amarange, kubisana n'ibindi bintu bitandukanye. Icyo cyapa kiri mubusitani burimo indabyo.

Inyubako nziza cyane y'amagorofa imbere yayo hari imodoka nziza ifite agaciro ka miliyoni cumi n'ebyiri iyo modoka ni iyo muri bibiri na cumi na kane.

Umugabo uhagze imbere y'imodoka nini itwara imitwaro yitwa igikamyo afite icyapa mu ntoki cyanditseho abeje akagera motozi.

Aho imodoka nshyashya zibarirwa, imodoka ziparitse z'ibara ry'umweru n'umutuku zitondetse neza ku murongo kugira ngo zigurwe.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'imodoka ifite ibara ry'umweru n'umukara umugabo uhagaze ku ruhande rw'iburyo n'uwo hagati bafite icyapa cya abeje akagera amutoza.

Mu muhanda haragendwamo n'ikinyabiziga cya moto, iruhande rw'umuhanda hari ubusitani ndetse n'indabo. Harimo icyapa kiriho amagambo atandukanye, iruhande rw'icyapa hari inyubako.

Inyubako igeretse, ku marembo yayo hari imodoka iheka imizigo, imbere yayo hari abagabo babiri bafite icyapa kiri mu ishusho y'urufunguzo cyanditseho abeje akagera motozi.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo n'ibinyabiziga ndetse ku mpande z'umuhanda hanyura abantu, munsi y'umuhanda hari inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye ndetse ku marembo y'iyo nyubako hari ibinyabiziga biparitse.

Ni mu masaha y'umugoroba, iruhande rw'inyubako ifite icyapa cyanditseho Akagera Motors. Hari umugabo n'umugore bafite icyapa cyanditseho ABG Akagera Motors, bari iruhande rw'imodoka.

Inzu igurishwa iherereye i Kigali Kibagabaga ku giciro cya miliyoni ijana na mirongo ine ku mafaranga y'u rwanda nziza hose ifite amakaro kandi ikinze neza.

Ibiro bishinzwe ibijyanye na banki ya Kigali hicaye abagore babiri, imbere yabo hari ameza ateretseho imashini ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu kubona impapuro.

Umugabo wirabura wambaye ishati y'umweru wicaye, imbere ye hari imashini ikora kumafaranga muntoki ze afite inoti, kumezaa hari amafaranga atondetse neza.

Inote y'amafaranga ishushanyijeho amafaranga magana atanu iruhande rw'ibumoso. Mo hagati hashushanyijemo inka eshatu, iruhande rwayo ku ruhande rw'iburyo hejuru handitseho beneri.

Inyubako ikorerwamo ibijyanye na banki hari icyumba cya mbere n'icya kabiri, hari abagabo babiri bari kwaka ubufasha, muri ibyo byumba hicayemo abadamu bari gutanga ubufasha ku babagana.

Inote y'igihumbi ishushanyijeho ikirango ku ruhande rw'ibumoso hagati yashushanyije ingagi iruhande rw'iburyo hashushanyijeho amafaranga igihumbi.

Icyumba gisize ibara ry'umweru; harimo intebe ifite ibara ry'ubururu, harimo ameza ariho imashini ndetse hariho n'inyandiko zitandukanye, hakabaho n'amafaranga atondetse neza.

Inote y'ijana yakoreshwaga mu Rwanda, hashushanyijeho ijana ku ruhande rw'iburyo, munsi hari igi ndetse n'ururabo. Mu ruhande rw'ibumoso hari umugore uhetse umwana ndetse iruhande rwe hari imisozi n'ibiti.

Umuntu ufite mikoro inyuma ye haritete irimo abantu, n'abayobozi ari kubwira abaturage bariri mu nama cyangwa bari mu biganiro umuntu ufite mikoro yambaye ijire afite icyo ashinzwe buriya arikugira ubutumwa cyangwa mesaje agenera ababo arikubwira.

Intoki z'umugore zifite amafaranga y'inote yo muri Kenya, iruhande rwe hari icyuma gikoreshwa mu kubara, yambaye isaha mu ntoki.

Inote y'igihumbi yakoreshwaga mu bihe bishize, ishushanyijeho amafaranga igihumbi ibumoso n'iburyo hejuru no hasi. Hagati hashushanyijeho inka zifite amahembe, iruhande rw'iburyo hari igishushanyo gifite ishusho y'igi.

Umucuruzi w'amata arimo gusuka amata mu ijage. Afite akajerekani mu ntoki, hari umuguzi uri iruhande rwe.

Azure foregisi biro iherereye kwa rando mu mujyi wa Kigali, werekeza i Remera, ni biro deshanje ivunja neza.

Iduka risize irangi ry'ubururu, ririmo ibintu bitandukanye harimo ibinyobwa, amazi, amata, amandazi, amacapati. Biri mu tubati byose bitondetse neza.

Igikoresho gishyirwamo ibintu bitandukanye gifite ibara ry'umukara giteretse ku meza y'umweru kirimo amagi atatu ndetse na kirida.

Agatajeri karimo ibintu bitandukanye gafite ibara ry'ubururu hejuru yako hateretseho teremunsi nakandi gasorori nanone iruhande rwako hari firigo.

Uruganda rw'amata, utubuni turi mu gatajeri rw'ibara ry'umweru turimo amata, igikoresho babikamo amata kiri iruhande rwabyo.

Uruganda rucuruza ibikomoka ku nka, ni ukuvuga amata, hariho icyapa byanditseho cyanditseho Nyanza miriki indasitiri, ni ukuvuga uruganda rw'amata, ku ruhande rwayo hashushanyijeho inka.

Umugore wicaye ku ntebe imbere ye hari ameza ateretseho ibiribwa byo mu bwoko butandukanye nanone hariho ibinyobwa iruhande rwe hagaze umuntu.

Inyubako ikorerwamo ibijyanye n'ibikomoka ku matungo hariho ibyapa bitandukanye biri mu ibara ry'ubururu n'umweru handitseho mukamira iruhande rw'umuryango hari akabati karimo ibikoresho bitwarwamo amata

Iri ni isoko ricururizwamo imbuto zitandukanye; imyembe, amatunda, indimu, amacunga, amapapayi ariko hari kugaragaramo umuntu umwe.

Ikinyamakuru kiriho umugore wamamaza, cyerekana uburyo bwo kwishyura umuntu akoresheje momo, agakanda kanyenyeri gatatu, kane, gatanu, urwego, agahitamo ibyo ashaka kugura, hanyuma akishyura akoresheje momo.

3. kugura ama inite 4. kwishyura kuri momo 5. Gahunda za banke 6. inguzanyo 7. konti yange 8. ubufasha 9. ibikorwa birimo amahirwe, hasi ngahitamo , hasi y'aho ibumoso ni uguhaka cyangwa kubivamo, iburyo ni ukwemeza

umujyi urimo abantu urujya nuruza rwibinyabiziga abanyiribinyabiziga bambaye amajire yimihondo ndetse nubururu mumutwe bafite ingofero zubwirinzi hakurya yabyo hari inzu nziza rwose ubona ndende zubucuruzi iyi foto irasa neza rwose.

Umugore wamamaza ibirebana na banki arimo arerekana uburyo ari nziza mukuvuga, kwishyura ndetse no gufata amafaranga.

Urwandiko rugaragaza ko umuntu yishyuye. Ruriho amafaranga yishyuye, ingano y'ibyo yishyuye ndetse n' itariki yabyishyuriyeho.

Ikinyamakuru gishushanyijeho umwana ufite igipupe mu ntoki. Nanone kiriho amakuru yose akenewe. Yandikishijwe ibara ry'umukara n'umutuku.

Inyandiko ihabwa umuntu wishyuye umusoro. Igaragaraho igihe yishyuriye, umusoro yishyuye, amazina ye, aho yishyuriye, ndetse n'umuntu wabimukoreye.

Imbonerahamwe igaragaza ibigo byo mu Rwanda bitandukanye bitanga ubufasha ku baturage butandukanye ndetse n'amafaranga bitakaza mu gihe biri gukora ibyo bikorwa.

Urupapuro ruhabwa umuntu wishyuye umusoro. Amazina ye ubwoko bw'umusoro yishyuye, amatariki n'ingano y'amafaranga yishyuye. Iruhande rw'ibumoso hasi hagaragaza uburyo yakoresheje iyishyura. Iruhande rw'iburyo hagaragaza ubuso bw'ikintu ari kwishyurira umusoro.

Ibiceri bikoreshwa mu guhaha. Ikirundo kimwe ni ibiceri cumi na bitatu. Ikindi kirundo ni ibiceri bitandatu. Ibindi biri hasi ni ibiceri bine.

Ahantu bavunja amafaranga y'abanyamahanga, hari ibyapa byerekana ubwoko bw'amafaranga bavunja ndetse n'agaciro kabyo, nano hari icyapa cyerekana aho bakorera m'uduce dutandukanye n'imijyi itandukanye muri Afurika iruhande rwabyo hari umugabo uri kugenda.

Inyubako y'aho bavunjira amafaranga, ifite imitako y'ibipirizo biri mu ibara ry'umukara n'umweru n'ubururu, hari icyapa kiri hejuru cyerekana ibikorwa.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye n'abantu bagenda, ku ruhande rwawo rw'ibumoso hari inyubako igeretse gatatu, ifite ibyapa bitandukanye ndetse n'amatara.

Inyubako ikorerwamo ibijyanye n'ivunja ry'amafaranga, imbere hari icyapa kigaragaza ibintu bitandukanye bikorerwamo, harimo kuvunja amafaranga, batanga ubufasha bufitanye isano na banki ya kigali ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Ahantu hari abantu batandukanye. Hari inyubako igeretse ifite n' icyapa, nanone hari amazu yubucuruzi, hari aho bagurira amayinite. Nanone impande zaho hagiye hari ibiri.

Inyubako ikorerwamo ibijyanye no kuvunja amafaranga, ku inyubako handitseho amagambo atandukanye avuga ibijyanye n'ibikorerwamo, ndetse n'amafaranga bavunja ayo ariyo, ku ruhande rw'icyo cyapa hari ururabo

Inyubako isize amarange y'umweru, ku nkuta zayo hari ibyapa bitandukanye ndetse hejuru hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu kerekana ko ari aho bavunja amafaranga.

Inzu y'ubucuruzi bugezweho, irimo abantu benshi batandukanye, harimo umugabo wambaye umupira usa umukara n'ipantaro y'ikigina, hakurya ye mu ruhande rw'ibumoso hakaba harimo akabati gasize irangi ritukura karimo ibicuruzwa bitandukanye.

Aho bakorera ibikoresho byo mu rugo hari akabati gakozwe mu mbaho, ameza akozwe mu mbaho ndetse n'intebe zifite imisego.

Umugezi w.amazi, igikoresho bakoresha bashyiramo amazi. Giteretse ku meza. Iruhande rwacyo hari umwenda uri mu ibara ry'ubururu n'umweru.

Inyubako ikorerwamo ibikoresho byo m'urugo bikozwe mu mbaho harimo; utubati, ameza intebe, ndetse n'intebe zikoreshwa mu cyumba cyo kuriramo.

Ahakorerwa ibikoresho byo mu rugo, intebe zo mu ruganiriro, zikozwe mu biti zifite imisego ndetse n'ameza.

Ahakorerwa ibikoresho byo mu rugo; intebe zo mu ruganiriro, ameza ndetse n'utubati, intebe ziri mu bwoko butandukanye byose biteretse m'ubusitani.

Inzu isize amarange y'umweru amadirishya afite ibara rya shokora, ku irembo ry'inzu hari intebe zikoreshwa mugihe cyo gufata amafunguro.

Ibikoresho byo mu ruganiriro, bikoze neza kandi bikomeye, intebe ndetse n'ameza, na none hari n'utundi dutebe turi ku ruhande dutoya.

Intebe yo kwicaraho mugihe umuntu ari kuruhuka, ifite aho kwegama ndetse n'aho gushyira amaboko ikozwe mu biti.

Ahantu hafatirwa amafunguro, hari intebe zikoze ishusho y'uruziga hagati hari ameza ariho ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibinyobwa, hakurya hari intebe zifite umutaka z'ahantu ho kuganirira.

Imeza iriho ibintu bitandukanye imeza ibanza hariho imitobe ikozwe mu mbuto zitandukanye, hariho inanasi iruhande rwabyo, hari imineke imeza ikurikiraho ngufuya hariho, ibindi bintu bitandukanye harimo ibikombe byo kunywesha icyayi n'ibindi.

Ikigo gikora ibijyanye no kwakira abantu kikabaha amafunguro, ndetse n'amacumbi. Ku ruhande rw'iburyo hari aho kogera. Nanone ku ruhande rwaho hari ubusitani buri mo intebe zo kwicaramo mu gihe cyo kuganira.

Igice cyo muri hoteli hagati hari aho kogera ku mpande z'ahantu bogera hari amazu y'uruganiriro afite imitaka hejuru. Ku mpande zaho hari ubusitani bwiza ndetse n'ibiti.

Inyubako nini nziza ikorerwamo inama, harimo intebe ziteye ku murongo nanone harimo ameza akoreshwa. Imbere hari igikoresho cy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu kureba amashusho n'ibindi bintu bitandukanye.

Inyubako ikora ibijyanye no kwakira abantu, bakabona ibyo kurya ndetse ikabaha amacumbi, yegeranye na komvesheni senta iri mu Rwanda.

Inyubako y'amagorofa yo kwiyakiriramo na none itanga amacumbi yo kuraramo, hari ahantu h'uruganiriro hari amahema hejuru ya hari ubusitani impande zose.

Inyubako iberamo inama irimo intebe ziri ku murongo, ameza imbere yayo ateretseho udutabo ndetse n'amazi yo kunywa mu gihe cy'inama.

Inyubako nziza y'amagorofa, ikorerwamo ibijyanye no kwakira abantu ndetse no kubaha amacumbi, ifite ubusitani impande zose ndetse n'indabo.

Abagabo n'abagore bari mu nama, bateze amatwi umugore uri imbere uri kuvuga ijambo, ufite igikoresho cy'indangururamajwi mu ntoki ze, inyuma ye handitseho amagambo avuga ingingo nyamukuru y'inama, ndetse ashushanyijeho amashusho y'idabopo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako nini y' amagorofa ifite icyapa imbere yayo kigaragaza ibikorerwa muri iyo nzu nini ndetse n'uko iyitwa.

Inyubako y'amagorofa, k'inkuta z'iyo nyubako hariho icyapa cyanditseho sonorwa, ku marembo y'iyo nyubako hari ibinyabiziga biparitse kuhande rw'iburyo rw'iyo nyubako hari iyinindi nyubako y'amagorofa.

Ikigo gishinzwe ubwishingizi, mu biro abakoramo bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari mudasobwa. Bambaye udupfukamunwa, bari guha ubufasha ababagana bicaye imbere yabo.

Inyubako ikorerwamo ibijyanye n'ubwishingizi, ifite icyapa cyerekana ibyo bakora iruhande rw'iyo nyubako hari amazu atandukanye ku rundi ruhande hari umuhanda nyabagendwa ugendwamo n'abantu n'ibinyabiziga.

Abagabo batatu bicaye bari mu nama Imeza iri imbere yabo, umugabo umwe uri kuhande rw'ibumoso yambaye agapfukamunwa.

Inyubako ndende y'amagorofa, ikozwe mu byuma ikorwamo ibijyanye n'ubwishingizi, hariho icyapa cyanditseho, cyanditseho ngo muwa insuransi.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo. Ugendwamo n'ibinyabiziga. Ibumoso bw'umuhanda hari inyubako y'amagorofa. Imbere y'iyo nyubako hari icyapa cyandikishije amagambo ari mu ibara ry'ubururu, munsi ari mu ibara ry'umutuku cyanditse buritamu. Hakurya y'iyo nyubako hari indi nyubako y'amagorofa.

Mu kigo gishinzwe gutanga inguzanyo, hicaye umugore wambaye umupira w'umuhondo n'ikarita y'akazi mu ijosi, imbere ye hari umugore waje kwaka inguzanyo muri banki, iruhande rwe hari abandi bantu.

Ikinyamakuru cyamamaza cyereka abantu kugura itike ibajyana muri bk arena hanyuma bakagabanyirizwaho mirongo itatu kwijana mugihe baguze itike.

Ikinyamakuru cya banki yo mu Rwanda yitwa ekwiti, kivuga ibijyanye no gufata inguzanyo muri iyo banki ingana na miliyoni mirongo ine cyangwa arenga, gishushanyijeho umugabo uri mu kazi wambaye itaburiya y'akazi.

Ikinyamakuru cyamamaza kibwira abaturage kwitabira amahugurwa y'umunsi umwe, avuga ibijyanye n'umusoro kigaragaza itariki isaha bizaba, ndetse n'aho bizabera cyerekana nomero za telefone, nomero wahamagararaho ndetse no kuba, yarikinjije icyorezo cya Kovide cumi n'ikenda.

Ikirango cy’ ikigo gitanga inguzanyo mu Rwanda ku baturage ndetse kika babikira amafaranga cyitwa CMA bank.

Ikinyamakuru cyamamaza gishushanyijeho umugore ufite telefone mu ntoki kivuga ibijyanye na banki y'u Rwanda yitwa bipiyara. Gishishikariza abantu kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga kohereza amafaranga kwishyura umusoro, amayinite, batiriwe bajya kureba umuntu ubibakorera.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye rifite amabati y'ibara ry'ubururu. Hari abantu b'urujya n'uruza bagenda banyuranamo na none hari ibitoki byinshi biri kugurishwa.

Isoko ry'imyenda itandukanye, harimo abantu batandukanye bari kugenda banyuranamo bari guhaha. Abandi bicaye iruhande rw'imyenda barimo baracuruza.

Imodoka ziparitse, zo mu bwoko butandukanye, iruhande rw'izo modoka hari inyubako nini, igeretse, y'amagorofa, ku mpande z'iyo nyubako hashushanyijeho ibikorwamo bijyanye n'itumanaho.

Inyubako y'amagorofa ishushanyijeho abantu ndetse yanditseho n'amagambo atandukanye, iruhande rw'inyubako hari abantu b'urujya n'uruza bagenda iruhande rw'umuhanda, ndetse n'imodoka ziparitse nanone mu muhanda hari ibinyabiziga byo mu bwoko bwa moto biri kugenda.

Inyubako nini igeretse y'amagorofa yubakishije ibirahuri, ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, haba harimo ibiribwa byo mu moko atandukanye.

Ibitenge bitandukanye bitondetse neza ku murongo bitambitse, bifite amabara atandukanye, imbere yabyo hari umugabo wambaye ishati y'umweru.

Agace karimo abantu benshi b'irujya n'iruza, bari kugenda banyuranamo. Umugore uhagaze, uri mu nzu isakaje amabati, ari gufata isiniye iri ku meza, iriho ibirayi.

Isoko ry'ibiribwa bitandukanye. Harimo inyanya, intoryi, ubunyobwa, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Abacuruzi bahagaze i ruhande rwabyo, abantu bari kuza guhaha.

Abagore babiri : umugurisha afite imbuto zitandukanye, umuguzi yambaye agapfukamunwa kandi afite imisatsi miremire. Arimo yakira ibyo yahashye.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye harimo inkoni zikoreshwa mu bukwe, uduseke, ingofero, ndetse n'amashakoshi. Nanone harimo imitako, imbere yabyo hicaye abantu.

Umujyi urimo inyubako zegeranye kandi zitandukanye harimo amazu yo kubamo n'ay'ubucuruzi, harimo imihanda itandukanye inyurwamo n'ibinyabiziga muri rusange abantu b'urujya n'uruza bagenda banyuranamo.

Inzu igurirwamo imyenda, ibitenge, imitako yo muri salo, amasakoshi. Abantu barimo bararebamo ibyo bashaka kugira ngo babigure.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye harimo inyanya, amashu n'ibindi nanone ku ruhande rwabyo hari umugore uhicaye.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto n'imodoka. Ku ruhande rw'umuhanda hari imodoka ziparitse ndetse n'inzu igeretse. Ku ruhande rw'iburyo hari icyapa.

Isoko ririmo ibiribwa bitandukanye: Harimo inyanya, imineke, ibishyimbo, amashaza, umuceri ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Umugabo wicaye, uri mu mutaka ry'ibara ry'umuhondo, ukora ibijyanye n'itumanaho. Ari gutanga ubufasha ku mugabo uhagaze, wambaye ishati.

Inyubako ikorerwamo ibijyanye n'itumanaho hahagaze umukecuru ugeze mu zabukuru wambaye ikanzu, iruhande rwe hari umugore wambaye umupira w'akazi wanditseho mobayiro mani ukora muri iyo nyubako.

Umugabo n'umugore b'abazungu, umugabo afite agaseke mu ntoki. Umugore w'umuzungu arimo arafatamo ikintu.

Umukobwa ukora ibijyanye n'itumanaho ari mu kazu gafite ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo avuga ibijyanye n'itumanaho.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, bijyanye n'itumanaho. Iri mu ibara ry'umuhondo, ishushanyijeho ibirango bya emutiyeni. Hicayemo umugore ubikoramo.

Inzu isize ibara ry'umuhondo, ikora ibijyanye n'itumanaho. Igira uruhare mu gufasha abaturage kubona uburyo bwo kuganira n'abandi bantu hakoreshejwe ikoranabuhanga . Hahagaze umugabo imbere y'iyo nzu.

Inzu ntoya ikozwe mu cyuma yimukanwa, ikorerwamo ibijyanye n'itumanaho. Ifite ibara ry'umuhondo yanditseho ibijyanye na mobayilo mane, imbere y'iyo nzu hari umugore uhagaze uri kwaka ubufasha ahongaho.

Abantu batatu bakora mubijyanye n'itumanaho, babiri barahagaze undi umwe yicaye kuntebe, bari kumwe n'umugabo w'undi bari gusobanurira ibijyanye n'itumanaho.

Umuzungu ufite ikirango cya momo peyi kigaragaza uburyo umuguzi yakwishyurwa hakoreshejwe umubare w'ibanga yahawe ndetse hakaba hariho n'amazina ye arimo arabyereka abantu bambaye imyenda y'umuhondo.

Abantu bari kubyina, abagabo babiri bambaye imipira y'umweru barimo barabyina, ku ruhande hari umukobwa witeze igitambaro mu mutwe ufite mikoro, iruhande rwe hari abakobwa babiri bambaye imipira y'umuhondo.

Ikinyamakuru cyamamaza kivuga ibijyanye no kugura umuntu akoresheje ikoranabuhanga, akagura ibiribwa, bifite ubuziranenge ku giciro cyiza kandi bikamugeraho mu rugo iwe.

Ikinyamakuru cyamamaza, kereka abakiliya uburyo bakishyura bakoresheje ikoranabuhanga bibereye mu rugo, ubundi ibyo bashaka bikabagereraho ku gihe.

Inyandiko iriho ibihugu bitandukanye, habanza Leta zunze ubumwe, Ubwami bwunze ubumwe, Ubudage, Uburusiya, Ubuhinde, Kanada, Ositaraliya, Ubufaransa, Ubushinwa, Ubutaliyani, Barezili, Esipanye, Turukiya, Polo, hariho n'ibindi.

Umugabo wicaye ku ipikipiki yakazi ndetse nawe yambaye imyenda yakazi inyuma ye hari igikoresho gishyirwamo ibicuruzwa byaguzwe hakoreshejwe ikoranabuhanga bikajyanywa kumukiriya.

Inyubako y'amagorofa atatu iri mu ibara ry'umuhondo, ifite icyapa cyanditseho iposita ku marembo yayo hari ibinyabiziga bitandukanye bikora muri iki kigo biri mu ibara ry'umuhondo kandi byanditseho iposita, haba imodoka ibinyabiziga bitwara imizigo na moto.

Umugabo w'umuzungu uri kugenda wambaye ishati y'umweru, wambaye umukandara n'ipantaro y'ikoboyi, ari mu nzu igurishwa ifite amarangi y'umweru, tubati twiza n'ibindi bintu bitandukanye.

Umusarani wa kizungu, ufite ibara ry'umweru. Ikirahure i ruhande rwacyo idirishya hejuru, ndetse hakabamo n'itara.

Inyubako ifite icyumba cy'uruganiriro gifite ibikenewe byose, harimo ameza, intebe, imitako yo muri salo. Giherereye Kabeza mu mugi wa Kigali.

Inama yahuje abantu batandukanye, imbere hahagaze umugabo uri kuvuga ijambo ufite igikoresho ndangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari icyapa cyerekana ingingo nyamukuru y'iyo nama n'icyo igamije.

Inzu nziza nini ifite inkuta zometseho amakaro, n'ibaraza ry'iza, ifite imbuga nini yubakishijwe amapave nanone ifite ahantu hashyirwa imodoka enye ifite, agaciro ka miriyoni ijana na cumi n'eshanu, iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali.

Inyubako isize amarange y'umweru ifite n'amakaroni ndetse na parafo nziza irimo ibikenewe byose, hejuru y'igitanda cyo kuraramo ndetse naho kubika iherereye mu mujyi wa kigali magana atatu k'ukwezi.

Inzu ifite amakaro hanze, ifite amadajya, isize irangi ry'umuhondo ndetse ifite na parafo, iherereye muri Kigali, ihagaze miliyoni ijana na mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu y'amagorofa abiri mu mbuga yubakishijwe amapave haparitsemo imodoka iruhande rw'amapave hari ubusitani n'indabo.

Icyumba batekamo cyitwa igikoni, gisize irange ry'umweru gifite parafu n'itara. Hasi gifite utubati two kubikamo nanone gifite aho gutekera, iruhande gifite icyuma gikoreshwa amashanyarazi gikonjesha ibinyobwa, ku ruhande rw'iburyo hari ururabo.

Inzu igeretse kabiri isize amarangi y'umuhondo n'umweru ifite ibaraza ry'ibyuma, isize irangi ry'umukara ku irembo ry'iyo nzu hari ubusitani n'indabyo.

Inyubako nziza isize amarangi yumweru ifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'ubururu imbere y'iyo nyubako hagaze umugabo wambaye ishati y'umweru uri kwamamaza.

Inzu igeretse y'amagorofa nziza ifite inkingi zisize amarangi y'umweru, inzugi n'amadirishya bisize amarangi y'umweru, mu mpande z'inzu hari ibiti byiza cyane n'ubusitani.

Inzu isize amarange y'umuhondo n'ubururu n'umweru ifite inzugi n'amadirishya ku mpande asize ibara ry'umukara.

Inyubako nini nziza igezweho isize amarangi y'mweru inyuma. na nnone ifite ubusitani bwiza burimo ibiti byiza n'indabo. Imbuga yayo yubakishijwe amapave iragurishwa, iherereye i Kigali Kimironko.

Inyubako ikodeshwa, nziza. Iherereye Kibagabaga. Ni amafaranga ibihumbi magana atatu yonyine. Irimo ibyumba bibiri byo kuraramo, ndetse n'ubwogero bubiri.

Inyubako nini nziza ikodeshwa, ifite ibyumba bine byo kuraramo, ndetse n'ibindi byumba bitatu by'ubwogero hanze ifite ibiti byiza, ndetse n'ubusitani iherereye muri kanombe mu mujyi wa kigali.

Inyubako nini nziza ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu. Ifite imbuga yubakishijwe amapave, ndetse n'ubusitani burimo indabo, ikodeshwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi magana atandatu iherereye Kagarama.

Abantu b'ingeri zitandukanye bari mu iduka barimo gushaka ibintu bitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore.

Abantu babiri bagiye guhaha, mu nzu igurirwamo ibinyobwa bitandukanye, umwe aricaye arimo arareba icyo ashaka.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ibikorwa bitandukanye abantu b'urujya n'uruza bari kunyuranamo kugira ngo barebe ibyo bashaka, harimo abagabo n'abagore.

Abaturage bicaye munsi y'ihema bari munama imbere hari abagabo bane, babiri bari kwifotoza bafite agakarita muntoki, abandi babiri bari gukoma amashyi.

Iyi ni imodoka nini igizwe n'amabara y'umweru, amapine y'umukara iri mu muhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, hirya gatoya ibiti birebire ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahakoresha bose.

Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mu nzu isize irangi ry'umweru harimo abagabo bageze mu za bukuru bambaye amagofero n'abandi batayambaye nanone harimo abagore.

Ikinyamakuru cyamamaza kivuga ibijyanye n'ejo heza byanditse mu ibara ry'ubururu n'icyatsi, hepfo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'igifaransa.

Ivuriro ryo mu gace ka Kabazungu rifite icyapa imbere yaryo na none risize irange ry'umuhondo rifite inkingi z'amatafari ahiye.

Ukuboko k'umugabo arimo kwandika, imbere ye hari mituwele zikoreshwa kwa muganga nanone afite ikaramu mu ntoke.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, ufite inyandiko igaragaza ko yishyuwe amafaranga miliyoni imwe n'ibihumbi maganabiri mirongwitanu, ivuye muri ejo heza.

Abaturage batandukanye bakoze inama, haba abagabo, abagore, abakecuru, abasaza abasore, abakobwa, bose bateze amatwi. Inyuma hari ibyapa bivuga impamvu nyamukuru byanditseho ejo heza ishishikariza abaturage kwizigamira.

Inama yahuje abantu batandukanye, imbere hahagaze umugabo uri kuvuga ijambo ufite igikoresho ndangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari icyapa cyerekana ingingo nyamukuru y'iyo nama n'icyo igamije.

Umuntu uri guhaha mu iduka ribamo ibintu bitandukanye, afite akagare ko gushyiramo ibintu ashaka kugura. Harimo ibiribwa bitandukanye yaguze.

Isoko ririmo ibinyobwa bitandukanye, haba ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa; na none bikaba bitondetse neza ku murongo mu tubati.

Umugore uri mu iduka ribamo ibiribwa byo mu moko atandukanye arimo arareba ibiribwa akeneye, afite igikoresho bahahiramo mu ntoki.

Ikinyamakuru cya banki yo mu Rwanda yitwa ekwiti kivuga ibijyanye no gufata inguzanyo muri iyo banki ingana na miliyoni mirongo ine cyangwa arenga, gishushanyijeho umugabo uri mu kazi wambaye itaburiya y'akazi.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, utubati turimo ibicuruzwa bipanze neza ku murongo, na none hari imitako ihari ndetse na parafo nziza.